Sitade nziza cyane. Ni sitade irimo abantu benshi, harimo amatara meza arimo amabara atandukanye. Ni abantu benshi baje kureba umuhanzi. Ni umuhanzi w'umukobwa ukiri umwana mutoya, uri kuririmbira imbere kuri aritari.

Akabari keza cyane karimo inzoga nziza: za nzoga zigezweho za likeri, hakabamo ama pirimusi. Ni akabari gasa neza, ni ahantu haza ukiyakiriza, hari intebe nziza cyane.

Akabari keza cyane, ni akabari karimo ibyo kurya byiza, karimo abaseriveri beza, bambaye imyenda ya iniforume, bambaye imyenda myiza y'umweru, bafite amaga n'umuseriveri ufite burusheti nziza cyane, burusheti z'inyama zisa neza.

Bare nziza cyane, ni bare icururizwamo ibyo kunwa bitandukanye, harimo inzoga nziza cyane za nzoga unwa ukumva umeze neza, harimo amaji meza, hakaba harimo fanta nziza cyane fanta nziza z'amoko atandukanye.

Bale nziza cyane ni bale irimo ibyo kurya ,irimo ibyo kunywa n'ibiryo bitetse neza cyane, birimo imbuto zitandukanye .Ibiryo, umuceri bateka, umuceri mwiza cyane ,bagateka inyama, bagateka inkoko ,bagateka imboga nziza cyane ,zisa neza.

Akabari keza cyane, ni akabari karimo abantu benshi, karimo inzoga nziza cyane, karimo amafaranga, karimo ji kandi hakaba harimo amazi meza. Amazi afite isuku ya mazi atagira imyanda.

Butike nziza cyane ni butike yegereye umuhanda haparitseho abamotari .Butike irimo amakara n'imifuka y'ibirayi. Irimo abaguzi benshi . Imbere abagenzi bari kugenda.

Salo nziza cyane ni salo ibamo abakozi beza cyane ,ni abakozi bagusukura neza ukagenda ukeye cyane harimo:abogosha, abasuka deredi, abaca inzara, n'abasiga inzara cyane nka velini.

Inzu nziza cyane, ni butike icururizwamo imyenda myiza cyane, harimo amakositimu, amakanzu meza, imbere yaho hariho agakoresho gakora injugu, injugu abari ibigori batetse bigaturika.

Botike irimo ibyokurya bitandukanye harimo: inkoko, ifi, ifiriti, burusheti, agatogo, igiti, igisafuriya, urukwavu, akabenzi, akaguru k'inkoko n'ubugari.

Butike nziza cyane ni butike yegereye umuhanda, butike yubakishije amakaro, irimo amakaziye menshi y'ibyo kunywa bitandukanye dukenera mu buzima bwacu.

Umupapa uri muri butike. Ni butike nziza cyane, y'inzugi za metalike zisize irangi ry'ubururu. Ni butike irimo ibyo dukenera byinshi ,cyane nk'ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Butike nziza cyane ni bukite irimo ibyo kurya byiza cyane, ikaba irimo amazi meza, asa neza, irimo umuceri mwiza, wa muceri uryoha, hakaba harimo akawunga keza, hakaba harimo impungure nziza zitera imbaraga.

Butike nziza cyane, ni butike irimo amakaro meza, ni butike isa neza, ni muri butike aho bacururiza imigati, bacururizamo na capati, ni ya migati myiza cyane.

Butike nziza cyane ni butike irimo imyenda myiza cyane, ikaba irimo uduseke twiza, irimo umumama uri kudoda, ari kudoda imyenda ni umumama wicaye kumashini idoda.

Butiki nziza cyane ni buditike irimo abantu, ni butike yubatse neza. Imbere yaho hari moto nziza y'umutuku iriho na kasike. Ni ubutique irimo jaride nziza.

Butike nziza cyane irimo ibyo kunywa bitandukanye: irimo amazi meza y'inyange, irimo amata meza y'inyange, irimo ji nziza cyane, ikabamo fata nziza cyane ni butike isa neza.

Butike nziza cyane ni butike irimo ibyo kurya bitandukanye. Harimo ibyo kunywa bitandukanye, harimo amavuta meza. Ni ya mavuta meza yo guteka. Imbere hari kunyuraho imodoka nziza, ni imodoka y'umutuku.

Butike nziza cyane, ni butike irimo ibyo kurya bitandukanye, hakaba harimo n'ibyo kunywa. Imbere ya butike hariho abanyonzi baparitse amagare. Ni abanyonzi batwara abagenzi.

Umugi mwiza cyane uteye imbere harimo imihanda, hariho umuriro abacuruzi baracuruza neza, ni umugi urimo etaje etaje nziza igaragara neza.

Butike nziza cyane ni butike nini , ni butique icururizwamo amatelefoni , ni inyubako nini ya etaje irimo amazu menshi . Ni inyubako yegereye umuhanda , irimo ibikoresho dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Butike nziza cyane, butike irimo ibikoresho, irimo ibyo kurya byiza, harimo ibikoresho , imikoropesho, imifuka irimo ibyo kurya, harimo imiceri, ibirayi, ibishyimbo.

Butike nziza cyane ni butike yubatswe neza isize irangi ry'umuhondo, hariho amakaro meza y'umweru ni butike yegereye umuhanda, irimo ibyo kurya bitandukanye kandi hakaba harimo n'ibyo kunywa, harimo ibyokurya byiza cyane harimo inyama nziza z'inkoko, ni butike isa neza.

Butike nziza cyane, ni butike yubatswe neza icururizwamo amapine y'imodoka, imbere hari abagenzi bari kugenda hari n'umumama wikoreye ibihaza binini, yikoreye ibihaza mu kabase.

Butike nziza cyane ni butike y'inyubako ngari ni butique icururizamo abantu bacuruza ibintu bitandukanye, harimo abacuruza ibyo kunywa harimo n'abacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Butike nziza cyane ni butike yubakishije ibyuma, ni butike isize irange ry'ubururu y'amabati meza cyane y'umweru. Butike yegereye mu biti muri bya biti biyiha umuyaga mwiza cyane ugasanga harasa neza.

Botike nziza cyane ni botike imbere yaho hariho icyapa kiranga ibihari. Harimo ibyo kurya wibanze nko ku nkoko harimo amagi meza cyane, hari inyama nziza z'inkoko kandi iyo botike ituye ahantu heza hari jalide nziza cyane.

Butike nziza cyane ni butike yubatse ifite umuriro. Ni butike icururizwamo ibyorya bitandukanye, n'ibyo kunywa harimo amafanta y'ubwoko butandukanye, acururizamo kandi inkoko nziza cyane ya nkoko iryoshye, harimo amazi meza cyane amazi asa neza.

Butiki nziza cyane irimo amatelefoni meza. Amatelefoni meza ya tekino, ya matelefoni umarana igihe ukumva ni telefoni atari za zindi za pirate.

Botique nziza cyane ituriye ku muhanda irimo ibyo kurya byiza harimo umuceri, akawunga kameze neza cyane. Harimo n'ibikoresho twifashisha mu gukora amagare n'amamoto.

Butike nziza cyane, ni butike icururizwamo amagaze, ni amagaze menshi cyane, y'amabara y'umutuku, ni imwe muri gaze utekaho ibyo kurya, bigashya vuba, ni za gaze zituma tubona ibyo kurya, mu buryo bwihuse.

Butike nziza cyane, ni butike idoderamo abadozi batandukanye, abadozi benshi bafite imashini zidoda imyenda, hahanitse ibitambaro, bya bitambaro badodamo imyenda myiza cyane.

Butike nziza cyane yubatse neza iza icuruzwamo amakopiyuta, ibikoresho by'ishuri, imbuto zitandukanye, iyi Butike irasa neza yubatse neza.

Butike nziza cyane ni butike ifite bafule nziza irimo umuziki mwiza, ni butike irimo ibyo kurya bitandukanye harimo imifuka y'umuceri, harimo akawunga, tukagira ibirayi.

Butike nziza cyane ni butike yubatse neza. Ni butike isize irangi ryiza cyane, irangi ry'umweru n'umukara. Ni butike iriho igipangu cy'ibyuma, irimo ibirahure byiza cyane. Ni butike nini.

Inyubako nziza cyane ni inyubako yubatse neza yubatse mu buryo bwa etaje. Iyo etaje irimo ifuso n'ifoso irimo gupakira ibikarito. Irimo abagabo babiri, ari bo bari gupakira ibikarito.

Butike nziza cyane ni imwe muri butike zubakishijwe imbaho zisakaje amabati hariho umuntu ucuruza amayinite ni butike ibamo ibintu byose dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Umupapa utwaye igare upakiye ibisheke byinshi bitemaguye, bimwe biri mu mufuka, ibindi bipakiye ku igare inyuma. Ni numupapa uri kugenda mu muhanda, uri kugurisha umumama igisheke cyo kurya.

Butike nziza cyane ni butike irimo ibikoresho bitandukanye akenshi twifashisha twubaka amazu yacu tubamo, harimo isima, kabamo amabati, hakabamo imisumari, hakabamo n'ingorofani.

Butike nziza cyane ni butike yubatse neza, ikaba irimo imbuto zitandukanye, harimo ibigori, hakabamo ibishyimbo, hakaba harimo na soya, imbere yaho hariho akayunguruzo kayungurura imbuto.

Butike nziza cyane ni butike irimo ibikoresho bitandukanye ikaba irimo n'ibyo kurya byiza cyane, ni butike irimo sima nziza twifashisha mu buryo bwo kubaka, ikabamo ibiryo byiza cyane harimo: umuceri, akawunga.

Butike nziza cyane, butike irimo ibikoresho dukunda gukenera cyane, mu buzima bwa buri munsi, harimo indobo amasafuriya ibikapu, harimo imyuko amasekuru, n'imisekuzo irimo imbabura amabase n'amabaro.

Igihombo kinini cyane ni igihombo kizinze, igihombo ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu kuyobora amazi tuyajyana ahandi. Ni byiza ko turinda ibikoresho byacu mu buryo bwo kugira ngo tugumane amazi meza.

Butike nziza cyane ni butike irimo ibyo kunwa byiza cyane, harimo icyayi hakabamo imigati yo kunwesha icyayi, hakabamo na keke, hakabamo imineke harimo amazi meza ya Nili.

Bulitike nziza cyane, ni butike irimo imyambaro myiza cyane, harimo amakositimu y'abagabo, hakaba harimo amakanzu meza y'abakobwa n'abamama, harimo imipira myiza cyane, imipira wambarira ku ipantaro ukabona irasa neza.

Amazu meza cyane, n'amazu ya butike abantu bacururizamo, n'amazu yubatswe neza aturiye umuhanda, umuhanda mwiza wa kaburimbo, n'amazu arimo umuriro, n'amazu yubatse neza, ariho amakaro meza cyane.

Butike nziza cyane, ni butike nini irimo inzoga nyinshi cyane, hakaba harimo amaji, hakaba harimo amafata, harimo amabiswi meza cyane, harimo n'amavuta yo kwisiga, harimo icyo kurya bita noburisi.

Botike nziza cyane .Ni botike nini. Irimo ibikoresho bitandukanye. Harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga .Hakabamo ibidomoro by'amavuta yo guteka .Hakaba harimo udufuka tw'imiceri.

Butique nziza cyane ni butike irimo ibikoresho bitandukanye harimo: intebe, harimo udutebe twiza twabana, hakabamo amabasi, hakabamo imifariso myiza, hakaba harimo n'amakuvurori meza yo kwiyorosa.

Butike nziza cyane ni butike irimo amavuta meza cyane, ni ya mavuta meza yo kwisiga, ni ya mavuta wisiga ukirinda uruheri, hari pampa nziza z'abana, zituma abana batababuka bisobyeho.

Inyubako nziza cyane ni inyubako yubatse neza ikikijwe n'ibiti ,ni bimwe mu biti biduha umuyaga mwiza cyane, bigatuma abari mu nyubako bahumeka umwuka mubi, bakinjiza umwuka mwiza.

Butike nziza cyane, ni butike iririmo gaze nziza cyane, ni ya gazi utekaho ibiryo bigashya neza cyane, kandi harimo amatelefone meza, hakabamo televiziyo nziza cyane, hakabamo amaradiyo, hakaba harimo n'ibikoresho byayo.

Butike nziza cyane .Ni butike itanga serivisi zitandukanye .Harimo kwakira no kubitsa amafaranga kuri telefoni .Harimo kwizigama ,harimo kugura amayinite.

Butike nziza cyane, abakeneye kwiyakira harimo intebe nziza, byagufasha mu kuruhura ubwonko ukumva uratuje ugatekereza neza.

Butike nziza cyane ni butike irimo: ibyo kurya byiza, ikabamo amakara dutekesha, ikaba irimo ibirayi byiza, harimo inyanya nziza zikoza isosi, harimo ibitoki byiza ,hakaba hariho ibitunguru, intoryi,.....

Butike nziza cyane ni butike yubatse neza, ni butike irimo ibikoresho twifashisha cyane nko mu rusengero habamo, sembari harimo gitari harimo mikrofoni harimo na za bafuri.

Butike nziza cyane, ni butike itanga serivisi nziza cyane, kwakira cyangwa kubitsa amafaranga kuri telefone, no kwizigama kandi bakora ama telefone, telefone yapfa ukayizana kuyikoresha.

Abantu benshi cyane basutamye, bambaye inifomo, ni inifomo z'umweru, n'umukara, bambaye n'ingofero y'umukara iriho uturongo tw'umweru. Ni abaririmbyi bari mu rusengero.

Koperative nziza cyane irimo abagize koperative, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irange ry'umweru ni itaje ebyiri.

Hoteli nziza cyane, ni hoteli yubatse neza. Hoteli ikikije ibyuma iriho ibikuta byiza cyane. Ni hoteli ya etaje irimo ibirahure byiza cyane, isize irangi ryiza ry'umukara harimo n'umuhondo.

Hoteri nziza cyane irimo jaride, ikikijwe n'ibiti byinshi ibiti byiza ,yubakishije amabati y'umutuku, ni karibu muri hoteri.

Hoteri nziza cyane Hoteri irimo jaride nziza yubakishije amatafari ahiye, amabati meza cyane isize irange ry'umweru yegereye umuhanda ni karibu muri Hoteri.

Hoteli nziza cyane, ni hoteri irimo amapave. Ni hoteli yubatse neza. Ya hoteli ikikijwe n'ibiti bya biti byiza bibaha umuyaga mwiza, mu gihe basohoye umwuka mubi bakinjiza umwuka mwiza.

Ubucuruzi bw'imyenda amapantaro, imipira, amakanzu, amashuka ni mu bikoresho twifashisha mu buzima busanzwe.

Botike irimo amasafuririya, ibikombe, amasahani, amatelemosi. Ni bimwe mu bikoresho twifashisha cyane nko mu gikoni.

Isoko rigari n'isoko ririmo gucururizwamo ibintu bitandukanye, harimo imyenda myiza cyane iy'abakobwa, iy'abagabo, n'iy'abagore, Ni imyenda myiza cyane isa neza. Kandi harimo ibyo kurya harimo ibirayi byiza cyane.

Isoko rigari, ni isoko ryiza cyane, ni isoko ricururizamo abantu benshi batandukanye. Bacuruza ibintu bitandukanye harimo ibikoresho, hakabamo n'ibyo kurya. Harimo imyuko myiza cyane, hakaba harimo ibyo kurya byiza, harimo ibishyimbo, ibirayi, harimo n'imbuto nziza cyane zo kurya.

Isoko ryiza cyane ni isoko ryubatswe neza. Ni isoko ririmo ibintu bitandukanye harimo ibikoresho, hakabamo ibiribwa, harimo isukari nziza cyane, hakaba harimo amavuta meza yo guteka.

Isoko ryiza cyane, ni isoko ririmo ibyo kurya, ibyo kunywa bitandukanye, harimo amavuta meza yo guteka, hakaba harimo ji nziza zo kunywa, amafanta y'ubwoko butandukanye, harimo imigati myiza yo kurya, imwe itera imbaraga.

Isoko byiza cyane, ni isoko ryubatse neza . Ni etage ebyiri zirimo abagurisha n'abagura . Bacuruzamo amatelefoni meza cyane ,amaradiyo amatele.....

Isoko rigari ry'inkweto, ni inkweto nziza cyane zirimo amabara atandukanye cyane nk'umweru n'umukara. Ni nkweto zirimo iz'abapapa ni nka congo za zindi batera siraje, hakaba harimo n'inkweto z'abamama nziza cyane.

Isoko ryiza cyane, ni isoko ririmo inkweto, inkweto z'amabara atandukanye za bodaboda, ni isoko ririmo ibikoresho twifashisha mu gikoni, harimo amasafuriya, ibikombe, ibiyiko n'amasahani.

Isoko rinini cyane n'isoko ririmo abantu benshi, ririmo ibyo kurya bitandukanye, ririmo imboga nziza cyane kandi rikabamo imbuto, ririmo imbuto zitwa amaronji harimo kandi na puwavuro, harimo tungurusumu, harimo ibirayi hakaba harimo ibitunguru byiza cyane binini.

Butike nziza cyane ni butike irimo ibyo kurya bitandukanye. Ikaba irimo ibyo kunywa byiza cyane . Harimo ji nziza ,hakaba harimo urusenda rwiza rwo kurya mu biryo ,harimo tuwisita nziza cyane, hakaba harimo amafanta meza . Hacururizwamo kandi amabiswi meza cyane na omo nziza yo gufurisha.

Isoko ryiza cyane .Ni isoko ririmo ibitoki by'imineke .Bikabamo ibihaza byiza cyane .Isoko ryubatse neza .Risakaje amabati meza .Isoko ryubakishije ibyuma.

Isoko ryiza cyane, ni isoko rigari ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye. Harimo imyambaro myiza cyane, harimo inkweto, harimo imyenda n'isoko ririmo ibyo kurya, harimo ibijumba, imyumbati amateke.

Isoko ry'inkweto ni isoko ririmo inkweto nyinshi cyane, ni inkweto z'amabara atandukanye, harimo inkweto z'abana, harimo n'inkweto z'abakuru, inkweto zifunze, harimo inkweto zisa n'ubururu zifiteho ibara ry'icyatsi, n'inkweto z'umutuku zifitemo amabara meza cyane.

Imbuto nziza cyane harimo: amaronji ,imineke, inanasi, imyembe, ni imbuto nziza zirimo intungamubiri nziza zadufasha gukura neza.

Isoko ririmo abantu benshi, ni isoko ririmo ibiribwa, rikabamo imyambaro, n'isoko ririmo imyenda myiza cyane, isoko ririmo imyenda y'abamama n'abana, n'abapapa, cyane nk'urubyiruko, harimo imyenda myiza cyane.

Isoko rinini cyane, ririmo: ibiribwa, ibikoresho, harimo amapaki, harimo imyenda, hakabamo intebe. Isoko ririmo abantu benshi, abacuruzi, abari guhaha.

Isoko ryiza cyane mu isoko ririmo ibikoresho bitandukanye ririmo ibyo kurya rikaba ririmo ibyo kunywa, ni isoko ririmo ibikoresho harimo amasafuriya harimo imikoropesho, harimo amasahane n'ibikombe.......

Isoko rigari, ni isoko ryubatswe neza, ryubakishije amatafari ahiye, ni isoko ryubatswe mu buryo bwa etaje ebyiri, ririmo ibiribwa bitandukanye, harimo imbuto nziza cyane, harimo ibirayi byiza, ni rya soko ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye.

Isoko ryiza cyane ni isoko ririmo ibikoresho bitandukanye harimo amamatora meza cyane, harimo intebe nziza zo kwicaramo, harimo indobo, harimo udupuberi twiza two gutamo imyanda.

Isoko rigari ni isoko ririmo ibintu bitandukanye, harimo ibikoresho byiza cyane, harimo udufuka twiza two gushyiramo imyaka , harimo n'udufuka two guhahiramo, harimo imyambaro myiza cyane, irimo iy'abato n'iy'abakuru.

Isoko ryiza cyane kandi rigari，ni isoko ririmo imbuto zitandukanye， harimo inanasi，hakabamo amaronji，kandi hakabamo imyambaro myiza cyane， ya myambaro twambara tukaberwa， tukabona turasa neza.

Isoko ryiza cyane, ni isoko ririmo amavuta yo guteka y'ubwoko butandukanye, harimo amavuta ari mu kadomoro ka ritiro eshatu, hakaba hariho ayandi mavuta ari mu bucupa, hakaba hariho agacupa ka ritiro imwe, na ritiro ebyiri, na ritiro eshatu.

Isoko rinini cyane, ni isoko ririmo ibirayi byiza cyane bya birayi by'amafufu, ni bya birayi biba bifite ibishishwa by'umutuku bimwe bya kinigi, ni ibirayi byinshi cyane bisutse mu isoko.

Isoko ryiza cyane ni isoko ririmo abantu benshi, ririmo ibyoku kurya byiza harimo n'imiteja. Imiteja ni imwe mu mboga ziva ku bishyimbo aba ari bya bishyimbo bitari byera bitari byazana imisogwe minini.

Isoko ryiza cyane ni isoko ry'imyenda ririmo imyambaro itandukanye, harimo n'amakuvurori meza yo kwiyorosa, harimo amashuka meza yo kuryamaho, harimo kandi imyenda myiza cyane, ya myenda y'abamama, amakanzu meza cyane harimo n'udutambaro twiza two kwitega.

Butike nziza cyane ni butike irimo amavuta meza ya mavuta meza yo kwisiga atuma uruhu rwawe rumera neza. Harimo n'amavuta y'imisatsi, ya mavuta usigamo mu musatsi ,umusatsi wawe gukabyibuha, ukarambuka, ukamera neza. Harimo parufe nziza. Ya parufe wisiga ukagenda uhumura neza cyane.

Isoko ryiza cyane ni isoko ribamo ibiribwa harimo akahunga n'umuceri. Akawunga ni ubwoko bwiza cyane butera imbaraga akahunga kitwa mbare hari umuceri mwiza cyane uryoha.